Ibishyimbo bimeze neza cyane ,birunze ahantu hamwe rifite amabara atandukanye :umutuku , umuhondo ,umweru . Biri ahantu hamwe hameze neza, ku buryo ubibonye wese yabyishimira akifuza kubirya bitewe n'isura yabyo.

Ahantu hameze neza hafite umutekano uhagije, hari urwego rw'ibiti bitambitse n'ibihagaritse mo hagati harimo ibara ry'umuhondo. Hari umugabo wapanze umushinga akaza ashinga inyama ku duti akarambika ku rugo rwego, yambaye ubukomo ku kaboko afite uduti mu ntoki agiye kuharambika.

Inzu nini cyane isize irangi ry'umutuku n'ubururu, ifite amatara maremare, yicayemo abantu benshi abagore n'abagabo, abagore bafite imisatsi irambuye imeze neza ikoze mu mugongo, bari kuganira n'abagabo babo.

Abantu benshi bari muri bare, abahagaze n'abicaye. Bare irubatse neza ifite ibara ry'umuhondo, intebe z'umuhondo zifite utuntu dutambitse n'uduhagaritse, hari abicaye bareba imbere abandi inyuma, abandi barahagaze bareba ibiri kubera muri bare.

Inyubako imeze neza cyane, yubatse igerekeranyije bare. Ni inzu abantu bishimishirizamo bakanezerwa, harimo intebe zo kwicaramo, n'ameza, kugira ngo uzinjiremo ni ugukandagira ku kantu k'umutuku, ukageramo imbere, ugasangamo amatara.

Butike nziza cyane icuruza ibintu bitandukanye. Harimo amasaha afite ibara ry'umuhondo, hari umugabo ufite urukumwe rurerure n'urwara runini. Afashe ku ruziga ari kurugaragaza ko bose ari byo bacuruza.

Inzu yubatse mu gishanga isakaje amabati y'ubururu, imbere y'inzu hari igiti kigufi gifite ibara ry'icyatsi. Hari umuhanda uriho icyapa kigaragaza ibicururizwa muri iyo nzu fogi sentaroyizi. Hari nimero za telefone wahamagararaho, kugira ubona abacururiza muri iyo nzu.

Butiki imeze neza cyane ,icururuza imyenda itandukanye: iy'abagore, abagabo n'abana .Harimo imyenda y'umutuku, umweru, amapantaro ,amajipo ,amashati . Hari n'umugabo uhagaze uri kuvugira kuri telefone ari kubaza igiciro cy'imyenda.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye: imyenda y’imbere yo kwambara, udutambaro two kwipfunisha, ingofero zifite ibara ry’umukara zo kwambara mu mutwe. Hari n’intebe zo kwicara aho zifite ibara ry’umutuku. Hari umukobwa urimo uhicaye, uri gucuruza, ufite telefone mu ntoki, wambaye ikote ry’umukara n’isaha ku kaboko.

Inzu bacururizamo zubatse zitaringaniye, zifite imiryango myinshi cyane imbere yayo hari abantu bari kugenda mu muhanda n'amaguru hari n'abicaye ku magare. Bahacururiza mitiyu hari umutaka w'umuhondo.

Iyi nzu isa n'umukara ifite urugi rw'ubururu rurakinguye hejuru y'urugi hariho itara hino hariho intebe z'umukara n'umweru, hanze hari intebe z'umweru zanitseho imyenda umutuku, umuhondo n'icyatsi.

Iyi ni inzu yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru, impande yayo hariho ibiti, ibirebire n'ibigufi, bifite ibara ry'icyatsi.

Inzu yubatse igeretse yubakishije imbaho, isize irangi ry'umweru, hari n'icyapa kigaragaza ibintu bicururizwa muri iyo nzu, yubatse imbere y'umuhanda uharuye neza, impande y'aho hari ibiti birebire cyane bigandaye.

Inzu isize irangi ry'umuhondo igasakazwa amabati y'ubururu, ifite n'urugi rw'ubururu rurimo utwuma duhagaritse. Hari icyapa kigaragaza ibyo bahacururiza, insinga z'umukara zirambitse hasi, hari umugabo uhagaze uri kuhagurira insinga, n'abicaye bari kumugurisha.

Aka ni akabati harimo inkweto, harimo n'imashini munsi y'ako kabati harimo igikarito, harimo n'inzira banyuramo.

Butike imeze neza icuruza imipira bifashisha, ba muri siporo, imipira irunzwe hamwe mu gakarito ifite amara atandukanye: umuhondo, icyatsi, ubururu, umweru imbere yako gakarito hari amakaro.

Butike nziza icuruza imyenda itandukanye, imyenda y'imikara, amashati yumweru, amajipo, n'utuburuze twaba mama, hari ishati zifite moderi imbere ibara ry'umweru, hari n'umugabo uhagaze, ari kureba umwenda arahitamo.

Inzu yubatse neza ifite ibice bibiri, icyo hasi n'icyo hejuru. Hejuru hakaba hasa n'umweru, hasi hakaba hasa n'umukara, ikaba ifite n'imiryango isa n'icyatsi, inzugi zikaba zifite selire, hejuru y'umuryango hakaba hari itara ry'umweru, itara rifite insinga z'umukara, hakaba hari n'inkingi zisa n'ubururu.

Inzu ya butike yo gucururizamo. Yubatse neza ifite urugi rw'umukara, urugi rufite utwuma duhagaritsemo hagati hasi akaba ari ibibaho bitambitse. Urugi rufite selire umuryango urafunguye cyane, hejuru y'urugi hari amakositara imbere yayo hari imbuga imeze neza.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, amavuta yo kurya ayo kwisiga, n'amazi yo kunywa. Hari amavuta yo kurya afite ibara ry'umuhondo, agafuniko gasa n'ubururu.

Butike yubatswe neza ifite urugi rw'igitaka rukagira n'ibirahure, harimo agakarito gashushanyijeho utuntu twinshi bashiramo amagi, iruhande rwako hateretse agafuka k'ibara ry'umuhondo.

Iduka ricuruza imyenda y'abamama itandukanye. Hari maneke zigaragaza imyenda ihacururizwa: amapantaro, amakanzu. Hari n'amabara atandukanye: umuhondo, umukara, umutuku. Impande y'iryo duka hari moto.

Iyi ni inzu ifite igipangu ku gikuta cyayo handitseho cumi na gatanu. Imbere yayo hari icyatsi, gisa nk'ururabo naho inyuma yayo hari ibiti birebire.

Butike imeze neza yubatswe ku buryo bushimishije. Ifite irangi ry'umutuku n'umukara, hejuru yayo hari ama kositara. Imbere ya butike hari kaburimbo. Kaburimbo isa n'umukara. Mo hagati hakabamo umurongo usa n'umuhondo.

Iri ni isoko ririmo umucuruzi, ari gucuruza imineke, amaronji, inanasi ibitebo, amabase. N'izuba riri kuva.

Isoko riri muri goyiko riri ipande y'umuhanda, inzugi zubakishijwe ibyuma. Hari abantu bahagaze muri goyiko bari kureba ibintu baragura, hari n'icyapa cyanditseho goyiko puraza rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu.

Iyi nzu yubatse itaringaniye ifite imiryango y'ubururu, hejuru y'umuryango hari amakositara, hagati mu muryango hicaye abantu benshi, imbere yayo hari imodoka ihaparitse, impande yayo hari urutoki rufite amakoma yicyatsi.

Butike icuruza ibintu byinshi bitandukanye. Amabasi afite ibara ry'icyatsi, ubururu umutuku, n'umuhondo. Umuryango urarangaye, hari intebe yegetse mu muryango, n'udukapu two gutwaramo ibyo uhashye, n'imikati yo kurya.

Inyubako yubatswe itaringaniye, ifite ibara ry'umweru n'ubururu. Ifite inzugi zifite iserire, imbere y'inzu y'ubururu hari umutaka wa MTN, ufite ibara ry'umutuku.

Iduka ricuruza ibyo kurya bikomoka ku bworozi bw'inkoko. Amagi n'inyama. Hari icyapa cyanditseho avayirabo, na nimero za terefone wahamagararaho, kugira ngo ubone ibicururizwaho.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye hejuru ikaba isakaje amabati y'umukara, hari icyapa kigaragaza ibintu bihacururizwa, imbere y'inyubako hari ibyatsi birebire by'urubingo bifite amababi agandaye n'indabo ngufiya.

Inzu bacururizamo ifite icyapa hejuru cyanditseho darayikirinizi gifite ibara ry'umweru, inzu isize irangi ry'igitaka. Imbere y'inzu hari inkingi y'umukara ihahagaze, kurizo nzu hari anteni zigiye hejuru z'ibyuma.

Butike imeze neza cyane, ifite inzugi z'ubururu n'ibirahure, mu mandirisha harimo utuntu dutambitswe tw'utwuma. Hejuru y'umuryango hari amakositara atatu arimo utwenge dupfumuye, hejuru y'amakositara hari icyapa kigaragaza ibyo bacuruza aho hantu.

Iyi ni inzu, hasi ifite ibara ry'umukara, urugi rwa yo hariho iserire, imbere ya yo hariho ururabo, ni ndende.

Butike yubakishije ibiti isakaje amabati y'umweru, icuruza ibintu bitandukanye imbere ya butike hateretse moto, hari n'umuntu uhagaze ugiye kwicara kuri moto, hari umuhanda mwiza w'umukara utuje.

Iyi ni inyubako icuruza ibinyobwa, hariho n'icyapa kibigaragaza, hariho n'ahantu bacururiza mitiyu haranditse ngo amahitamo nayawe.

Butike yubatse ku murongo uhagaritse usize irangi ry'igitaka. Imbere y'inzu hicaye abantu n'abacuruzi ba mitiyu bambaye utujire tw'umuhondo n'amapantaro y'umukara. Bahagaze mu muhanda umeze neza.

Butike nziza cyane icuruza ibintu bitandukanye, ifite urugi rw'ubururu, hariho utuntu dutambitse n'uduhagaritse tw'utwuma. Umuryango urafunguye cyane, ku buryo uje wese yahita yinjira akayigeramo. Kugira ngo uyinjireho ni ukubanza ugakandagira ku makaro, ukinjiramo imbere. Hejuru hari icyapa kigaragaza Himagisi Musanze.

Iyi ni inzu imbere yayo hicaye abantu, hari n'abandi bari kugenda n'amaguru hari igare , hari moto , hari ibase igerekeranyije n'indobo , hari kandagirukarabe n'abandi bicaye kuri moto.

Butike imeze neza cyane icuruza ibintu bitandukanye, hari televiziyo hejuru yayo, isakaje amabati y'ubururu imbere yayo hari ibiti birebire cyane n'indabo z'umutuku, hari umukecuru utereye agafuka ku rutugu witeze igitambaro, uri gusoma amagambo yanditse kuri iyo nzu.

Butiki imeze neza imbere y'iyo nzu hari imbuga ikubuye, ifite inzugi zimeze neza hejuru y'urugi hari amabara atatu y'ubururu, hari n'amakositara, mu muryango urakinguye cyane hari umuntu uhagazemo uhagaze imbere y' agatebe gasa n'umweru.

Iyi ni inzu iteye irangi ry'umweru, ifite imiryango ibiri, umuryango umwe ukingishije urugi rw'ubururu, undi n'urugi rw'umweru, hariho enteni za televiziyo, ku rugi rw'ubururu, hicaye umugore rurafunguye.

Butike yubatse neza ku buryo uyibonye wese ayishimira. Ni disayini ifite disayini zitandukanye, ifite idirishya rifite umurongo uhagaritse nutambitse w'icyuma. Muri iyo butike harimo imyenda ifite amabara atandukanye umukara, umweru n'icyatsi. Hari nimero za terefone wahamagaraho kugirango ubone iyo imyenda.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye ibyo kurya no kunywa. Hari nimero za telefone wahamagaraho, zandikishijwe ibara ry’umweru, Imeyiri: ngirimanaweli arobazi jimeri komu.

Butike icuruza ibyuma byinshi cyane. Ibyuma bifite ibara ry'umukara, bitondetse ku mirongo ihagaritse n'itambitse. Buri cyuma hariho icyapa cyanditseho sayize gifite ibara ry'umweru.

Iri ni isoko risakaje amabati y'ubururu, harimo ibicuruzwa bitandukanye, ingofero, ibikapu, udupira two gukina, hari n'abantu bicaye, abandi barahagaze.

Butike zubatswe neza cyane ku buryo uzibonye wese yifuza kujya kuzihahiramo. Ni inzu nyinshi zitandukanye, zifite inzugi z'ibirahure. Hagati hatambitsemo utuntu tw'utwuma, imbere y'inzu hari moto zicayeho abantu bambaye amakoti y'umutuku n'ingofero z'umutuku. Hari n'igiti cy'umunyinya gifite amababi maremare.

Iduka ryubatswe neza cyane rifite inzugi z'umukara, umuryango ukaba ufunguye cyane ikaba urugi rufite serire, ku buryo uhanyuze wese yitegerezamo imbere akarebamo ibirimo, harimo imigati myiza ishimishije.

Butike yubakishije amatafari ahiye iruhande rw'amatafari ahiye hakaba hari urugi rw'uduti, imbere y'urugi hakaba hicaye umukobwa uhacururiza wambaye imyenda y'umukara, ahacururiza amashapule, udukomo n'amasaha.

Inzu yubatse neza igerekeranyije, ikaba ifite inzugi z'umweru, imbere y'iyo nzu hari umuhanda ugendwamo abantu n'amaguru, hicaye abantu iruhande rwaho hari moto, hari ipoto rihashinze igice cyo hejuru harimo insinga.

Inzu icuriza ibintu bitandukanye ifite inzugi z'umweru hejuru y'umuryango handitse icyapa cyanditsweho ngo turengere ubuzima. Icuruza indobo z'icyatsi ,mutuku n'umweru n'ibijerekani. birunze uruhande rumwe.

Inzu yubatse igerekeranyije, isakaje amabati y'umukara, isize irangi ry'gitaka, ifite inzugi z'ubururu, imbere y'inzu hari ipoto rirerire, rifite itara hejuru n'insinga zigiye ahantu hatandukanye.

Iyi ni inzu irimo ibinyobwa. Hejuru hari ibyapa bigaragaza ibyo bakora. Ifite inkingi iteye irangi ry'umutuku, hariho n'amakesi arimo inzoga zipfundikiye.

Butike yubatswe neza ifite inzugi zifite ibara ry'umukara. Muri izo nzugi hariho uduti dutambitse n'uduhagaritse, ifite n'ibirahure. Mo imbere harimo ibintu byinshi cyane. Amacupa atandukanye, imbere y'inzu haparitse imodoka, hejuru yacyo hari icyapa.

Inzu bacururizamo, ifite inzugi z'ubururu, hejuru y'inzugi hakaba hari amakositara. Hari ipoto rinini cyane, rifite insinga zigiye mu nzu, buri nzu herekeyemo urutsinga. Imbere y'inzu hari abantu bahicaye n'ababahagaze. Hari umutaka w'abantu bacuruza mituyu urafunze.

Iyi ni inyubako ifite inkingi ifite inzugi z'ibyuma harimo n'ibirahure imbere hari ahantu bambuka bahashyize beto kugira abantu babone uko bahambuka.

Inzu yo gucururizamo isize irangi ry'umweru n'umutuku bivanze. Imbere y'inzu hicaye abantu bambaye utujiri tw'umuhondo, bari gucuruza mituyu hari n'icyapa cyanditseho Eyateri. Imbere y'inzu hari amagare ahaparitse.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isize umusenyi, ikagira inzugi z'icyatsi, umuryango urarangaye cyane. Hejuru y'umuryango hari amakositara, impande y'inzu hari inkingi z'umukara zifashe inzu.

Butike nziza yubatse igerekeranye, ikagira inzugi z'umweru, ibyuma bisa n'umuhondo. Imbere yayo hari ipoto rirerire cyane risa n'umukara, muri iyo mbuga haparitse moto, kuri moto harambitse ingofero y'umutuku. Umuryango wa butike urafunguye hahagaze umuntu.

Butike imeze neza icuruza imyenda itandukanye. Ibitenge, ibikapu, matola, amasengeri. Hari umugore urimo kuyacuruza ufite igiti agomba kumanurisha igitenge. Hari umugore uri kugura wambaye amaribaya asa n'umuhondo, hari n'umugabo uri gukora inkweto wicaye hasi wambaye ishati y'ubururu.

Abagore n' abagabo bari ahantu hamwe hatuje mu byatsi barapfukamye, bambaye imyenda y' imikara, n' amashati y' umweru, n' udutambaro mu mutwe bari gusenga cyane barahumye, bari gusenga imbere yabo hari umugabo uhagaze ari kubasengera.

Inzu yubatse itaringaniye isakaje amabati y'umweru, imbere igasigwa irangi ry'umuhondo. Imbere ku muryango hari agatebe, impanda y'inzu hari ibiti birebire cyane bigandaye bifite amababi y'icyatsi.

Inyubako nziza ya hoteli, ifite isura nziza imeze neza ku buryo uyibonye wese yifuza kuyijyamo, impande yayo hari ibyatsi birebire bifite ibara ry'icyatsi, hari umugabo uhahagaze unezerewe cyane, wambaye ipantaro n'ishati, n'inkweto zifunze, uriguseka unezerewe kubera iyo hoteli.

Inzu ya hoteri yubatse neza, hejuru isakaje amabati y'igitaka, imbere isize amarangi y'umweru, ifite n'itara rirerire, amadirishya harimo uturonko dutambitse, umuryango wayo urarangaye. Imbere y'umuryango hari umuhanda munini ufite indabo kuruhande, zifite ibara ry'icyatsi.

Abagabo babiri bari kugenda munzira n'amaguru bambaye inkweto zifunze ,amapantaro y'imikara, imipira ntabwo isa . Umwe yambaye umupira w'icyatsi undi akambara umukara . Uwambaye umupira w'umukara akaba yambaye ingofero y'umutuku ,akaba ari kugenda ateze amaboko ,inyuma yabo hari ibiti birebire byi'cyatsi.

Aha ni mu ruganiriro harimo: intebe, amafoto ,imisego begamira n'ameza ateretseho na buji.

Mu isoko harimo ibiriribwa, abacuruzi, abantu bari guhaha imyenda abacuruzi ba emutiyeni n'abagabo, n'abagore n'abana.

Isoko ryiza rimeze, ricuruza ibyo kurya bitandukanye ,imboga n'imbuto ,hari inyanya zisa n'umutuku intoryi zisa n'icyatsi, n'ibitunguru bifite ibara ry'umweru n'umutuku, n'ibihaza bifite inkondo hejuru.

Isoko ricuruza ibyo kurya imboga n'imbuto, isoko ryubakishije amatafari iruhande hubatseho amakaro, hari abagore barimo abicaye n'abunamye bari gucuruza amatunda, avoka, imineke iri ku dufuka.

Isoko ryiza cyane ricuruza ibintu bitandukanye. inkweto z'abana n'abakuru. Harimo ubwoko bwinshi bw'inkweto za bodaboda; iz'umuhondo; iz'ubururu; iz'umutuku n'umweru. Hari n'umugore wicaye, uri gucuruza pampa z'abana. Hari n'abantu bari kugenda mu muhanda n'amaguru bagiye kurema isoko.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye twavuga nk'inkweto, twavuga,....

Isoko ricuruza ibintu byinshi bitandukanye inkweto, imyenda. Hahagazemo abantu benshi bari guhaha: abagore, abagabo n’abana. Abagore bafite ibikapu bari guhahiramo.

Iduka ricuruza imibirikira twifashisha dusuka amazi ifite ibara ry'umweru n'icyatsi n'umutuku n'udukapu two gutwaramo ibyo uhashye, duhanitse ahantu ku gati kameze neza gafite ibara ry'umweru.

Iduka ryiza ricuruza ibintu bitandukanye. Ricuruza korogate, amavuta yo kwisiga, karikireta yo guteranya imibare, Karikireta isa n'umukara ifite amatushe y'umweru agaragara neza.

Isoko riri gucuruza telefone, udukarito dufite ibara ry'umuhondo, indabo z'umweru, imikandara yo kwambara, amasengeri. Hari umugabo urimo wambaye agaseri k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi uri kureba umukandara aragura na telefoni arajyana.

Isoko ryiza rimeze neza, ricuruza imyenda itandukanye, ibitenge, amapantaro, imipira myinshi cyane, hari n'abagore n'abagabo bicaye mu isoko bari kudoda imyenda, bifashishije imashini n'urudodo, bahetse abana, hari n'abahagaze bagiye kudodeshaho.

Isoko ricuruza imyenda itandukanye amakote, ibitenge, amasogisi, harimo imyenda y'ubururu, umutuku, umweru n'icyatsi, hariho n'ibirangantego byayo bigaragaza iyo myenda.

Isoko ryubatse neza cyane rifite amadirishya asa n'umweru, afite uduti duhagaritse n'udutambitse. Mu mpande y'umuryango hari abantu, abagabo babiri, uwambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara n'umwe wicaye uri gucuruza.

Isoko ryubatse ritaringaniye, risakaje amabati y'ubururu, mo hagati harimo ibyuma na matara, ni isoko ririmo abantu benshi cyane abahagaze n'abicaye, harimo n'ibintu biri mu mufuka bari gucuruza voka, amatunda n'ibinyomoro.

Isoko ryiza ricuruza ibintu bitandukanye. Ricuruza ibirungo byo guteka, uburoso bwa korogate, ibirungo bifite ibara ry'icyatsi, umutuku, umuhondo n'ubururu. Butiki ifite urugi rw'ibiti rusa n'umweru.

Isoko ryubakishije amabati y'ubururu, ritaringaniye. Ricururizwamo ibintu bitandukanye. Imboga n'imbuto, amavuta yo guteka na ji zo kunywa, ririmo abagore n'abagabo n'abana, abahagaze n'abicaye. Bari kwitegereza ibintu baragura. Harimo n'abacuruzi ba mitiyu.

Isoko ryiza ryubatse neza, ricuruza imyenda itandukanye yaba mama n'abakobwa, ifite ibara ry'umutuku n'icyatsi n'umweru. Hari umugore urimo wicaye ku gatebe uri gucuruza, wambaye ikanzu mo hagati harimo umurongo w'umutuku n'icyatsi ,yicaye ategereje abakiriya. Iruhande rw'iryo soko hari umukobwa uhegamiye, wambaye ijipo y'ubururu n'agapira k'umweru, yifashe neza ari kureba imyenda aragura.

Butike imeze neza cyane ifite ibara ry'umukara hari imifuka iparitsemo ifite ibara ry'icyatsi umweru. Umufuka w'umweru handikishije amagambo y'ubururu hari n'icyapa cy'umutuku kigonze.

Isoko rimeze neza, ririmo ibyoku kurya byinshi bimeze neza bifite ibara ry'icyatsi, ibinyoro bisa n'umutuku, ibihumyo bisa n'umweru, birunze ahantu hamye cyane, bikarya ari binini bishimishije.

Isoko rimeze neza ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, amavuta yo kwisiga, parufe, puderi byinshi cyane bifite amabara atandukanye, hari ibara ry'icyatsi, igitaka, umutuku, umweru hari umugabo urimo uri kuyakoraho agiye kugura.

Isoko ricuruza imboga ibitebo, ibiti birambitse hasi, harimo abantu bicaye bari kureba ibyo baragura, bambaye imyenda y'umutuku n'amakoti y'umukara benshi cyane.

Isoko ryubatse neza ku buryo kurigeramo bitakugora. Harimo abantu nyamwinshi. Abagore, abagabo, abana. Bacuruza ibintu bitandukanye. Inkweto, imyenda na mitiyu. Hari abagabo bahagaze bagiye kugura inkweto, bari kubaza igiciro cy'amafaranga zigura.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, indobo n'ibiduki bifata amazi, hari amabara y'ibiduki atandukanye icyatsi, ubururu n'ubukombe bw'umutuku n'amasahani, hari n'ibikarayi bakarangiramo ibirayi, hari umugore ugifasha ugiye kukigura wambaye imyenda y'umutuku, ufite n'imisatsi izingazinze.

Isoko ricuruza ibyo kurya ibishyimbo, ibigori na soya. Bikaba biri mu mifuka itandukanye zisa, zikaba ziri mu mufuka w'umweru. Ibishyimbo bikaba biri mu mufuka w'igitaka mu mpande hariho ibara y'umutuku.

Isoko ricuruza ibikapu, imyenda y'abana y'impinja, harimo amabara atandukanye y'imyenda, harimo imyenda y'icyatsi, imyenda y'umutuku n'umuhondo, imyenda y'ubururu ndetse n'iy'igitaka.

Isoko ricuruza ibintu byinshi. Ibirushe byo kwaruza ibiryo, indobo zifite ibara ry'icyatsi, ubururu, umutuku, umweru. Ziri ahantu hamwe ku kibaho hameze neza cyane.

Isoko ririmo abantu benshi cyane abagore, abagabo n'abakobwa. Bajyanye ibintu bitandukanye amatunda ku dupaniye tw'ubururu, amapera ku dupaniye tw'icyatsi. Buri wese arunamye n'umutwaro we ari kuwukorera isuku. Hari abahagaze n'abicaye bari kwitegereza izo mbuto bazanye uko zimeze.

Isoko ricuruza amazi ya Nile yo kunywa, amazi ari mu gacupa apfundikijwe umufuniko usa n'ubururu, atonze ahantu hamwe ku kabaho, hatuje hafite umutekano, buri cupa ryanditseho Nile.